Amafumbire yo mu nganda, ayo mafumbire akaba akoreshwa mu gufumbira ibihingwa bitandukanye: nk'ibirayi, ibigori, ibishyimbo.

Imiti iri mu macupa abiri atandukanye iyo miti ikaba ishobora kwifashishwa mu kurwanya, no kwica udukoko dushobora kwangiriza igihingwa kugirango icyo gihingwa gikure neza.

Amafi ni inyamaswa ziba mu mazi, izo nyamaswa ziraribwa, zikaba ziri mu matungo afite intungamubiri nyinshi cyane, zikenerwa mu mubiri wacu.

Umurima utari wahingwa. Uwo murima ukaba warasaruwemo kimwe mu bihingwa ngandurarugo bita ibigori. Uwo murima uraraye.

Umurima uteyemo intusi zikiri ntoya. Izo ntusi iyo zikuze zishobora kuvamo ibiti byo gucana amakara bishobora no kwifashishwa mu bwubatsi bw'amazu.

Umuhinzi uri mu murima we. Uwo murima uhinzemo ibishyimbo. Ibyo bishyimbo barabishingirira, bikaba bifite akamaro kanini cyane, kuko ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo.

Igihingwa ngandurarugo bita amateke, ni kimwe mu bihingwa bikunze kugaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikaba ifite akamaro cyane kubera ubu ubwoko bw'ibitera imbaraga.

Intoryi ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo bahinga zikaba ziri mu bwoko bw'imboga, zikaba zifite akamaro kanini cyane kuko ziri mu birinda indwara.

Igihingwa ngandurarugo bita wotameroni. Icyo gihingwa kikaba kirambitse ahantu ku nzira ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi bikorerwa mu isoko...

Ibitoki ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo bahinga, kikaba kiri mu bwoko bw'ibitera imbaraga, igitoki gifite akamaro kanini cyane, gikunda guhingwa ahanini mu bice by'iburasirazuba.

Inyanya ni kimwe mu bihingwa, abahinzi bakunda guhinga kubera ko zigira umusaruro mwinshi, kandi zikaba zikundwa ku masoko.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo, abahinzi bakunda guhinga. Ibirayi bifite akamaro kanini cyane kuko biri mu bwoko bw'ibitera imbaraga.

Amajeri ni igihingwa bahinga hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba afite intungamubiri nyinshi zikenerwa n'umubiri wacu.

Amateke menshi arunze hamwe, hari amatike agaragara nkaho yumye, ariko hariho n'amateke agaragara nk'aho akiri matoto cyangwa se atumye.

Ubutaka bwo ku kibaya bahingamo ibihingwa bitandukanye ngandurarugo, higanjemo ibirayi, ibishyimbo, ibigori n'ibindi.

Igihwagari ni kimwe mu bihingwa abahinzi bakunda guhinga. Icyo gihingwa kikaba gifite akamaro kanini cyane ku buzima bw'abantu, kubera ko bakoramo amavuta.

Abahinzi bari gusarura umuceri uhingwa mu bishanga. Umuceri ni igihingwa bakenera kwitaho by'umwihariko gikenera amazi menshi.

Umuhinzi uri mu nzu bahunikamo umusaruro uba wavuye mu muceri, uwo muceri uba wahinzwe mu Burasirazuba.

Ubwoko bw'imbuto z'ibigori za mayizori, bahinga mu murima nka kimwe mu bihingwa ngandurarugo. Izo mbuto ziba zisa n'umuhondo, zera ibigori bitari binini cyane.

Imbuto nziza z'ibishyimbo by'umutuku bahinga mu murima. Ibishyimbo ni igihingwa ngandurarugo gifite akamaro kanini cyane, kiri mu birinda indwara.

Inzu yubakishije amabati n'ibiti gusa ikaba idakomanyije, iyo nzu ikaba ifite akamaro kanini kuko bahunikamo imyaka itandukanye...

Amasaka ni igihingwa kiri mu bwoko bw'ibinyampeke, bakaba bakunda kugihinga ahantu h'ikibaya. Amasaka afite intungamubiri nyinshi.

Inzu bahunikamo imbuto z'ibigori basaruye. Ibigori ibyo bigori bikaba biba biri mu bwoko bwa buride. Ibigori ni ibi igihingwa gikenerwa kubikwa neza.

Ingurube ni inyamaswa bororera mu rugo. Zikaba zikunda kurya ibiteri, ibyatsi n'isombe. Zikaba zikenera kwitabwaho kugira ngo zirindwe indwara.

Ihene ni rimwe mu ma tungo bororera mu rugo . Ihene ikaba iri mu bwoko bw'amatungo atanga inyama nziza kandi zihenze.

Umugore ushoreye ihene mu muhanda agiye kuziragira, inyuma ye hari inka ziri kurisha mu murima, uyu mugore urabona ko ari kwihuta cyane.

Umuganga uvura amatungo ari mu gikorwa cyo gukingira inka, nka kimwe mu bikorwa by'ingenzi cyane, kuko bituma amatungo adahura n'indwara.

Imwe mu nyamaswa z'inyakigunda, ihagaze ku giti kiri mu kiyaga hagati, ikaba ifite ibara ry'umweru, umuhondo, shokora, ndetse n'amabababa y'umukara.

Imwe mu nyamaswa ziba ku gasozi no mu mashyamba, iyo nyamaswa ikaba iri mu ikiyaga iri koga, iri kunywa n'amazi.

Inyoni ni inyamaswa ziba ku gasozi zikaba zigira akamaro kanini cyane, by'umwihariko mu kubangurirarana ku bihingwa kubera ko arizo zitwara imbuto zikazivana ku gihingwa kimwe zikazijyana ku kindi.